Umubyeyi wambaye ingofero y'ubururu, umupira w'amaboko magufi ufite ibipesu bipfugika ndetse n'igitenge k'icyatsi ahagaze ku ivomero, iruhande rwe hari ijerekani ubona ko iri kujyamo amazi ndetse inyuma ye hari ibiti bimukikije n'ubutaka n'imirima igiye itandukanye.

Abategarugori bageze kuri batandatu bambaye imyenda igiye itandukanye irimo amakanzu ndetse n'amajipo n'amakabutura, bateze amaboko bamwenyura, babyina ikinyarwanda, bigaragara ko hari icyo bagezeho bari kwishimira.

Umwana w'umukobwa uri ku ivomero, wambaye agakanzu ndetse usutamye, uri gukaraba intoki, hirya ye hari amajerekani atatu n'inyuma ye hari ibiti bigaragara ko yishimiye gukaraba intoki.

Umuganga w'umugore wambaye itaburiya ndetse na ga by'umweru, akaba afite akamwenyu ku maso ubwo yavuraga umwana muto cyane utarengeje umwaka umwe uri kumwe na nyina, yabikoraga aseka ubona ko abyishimiye.

Ni mu masaha y'igicamunsi, ubwo abaturage baje kureba ibyabereye aho, hari umugabo wambaye umupira wanditseho WORLD VISION uri guhuza ibiganza n'umwana wambaye impuzankano, muto muto bigaragara ko ari umunyeshuri.

Ni ku kigo nderabuzima aho umugabo wambaye itaburiya y'ubururu bigaragara ko akorayo ari kuganiriza umubyeyi wambaye ibitenge uteruye umwana uri hagati y'amezi icyenda ndetse n'umwaka, hejuru hari umunzani ndetse hari n'abandi baturage baje gushaka izindi serivisi zigiye zitandukanye.

Abana batandatu bambaye impuzankano zimwe, umwe muri bo akaba ari umukobwa abandi ari abahungu, bari ku ivomero ry'amazi n'indobo zose zisa umuhondo, bishimiye igikorwa cyo kuvoma ubona ko banezerewe ku maso.

Ni mu nzu mberabyombi ahari kubera inama, hejuru hari amatara yaka umuhondo wiganjemo umweru ndetse abayitabiriye bicaye ku mameza agiye ariho amazi abafasha ndetse n'impapuro cyangwa z'amakayi bandikamo ibijyanye n'inama.

Abana bane b'abahungu, batatu bambaye amakabutura ndetse undi wambaye ipantaro, bari ku ivomero, ubwo bategereje ko ijerekani bari kuvoma yuzura amazi ndetse ku maso barasa n'abatishimye, hirya kandi hari ubusitani butohagiye.

Abaturage bageze muri makumyabiri na batandatu, biganjemo abagore n'abagabo bakeya, babiri muri bo bafite impapuro ebyiri zanditseho amagambo ari mu nyuguti ndende, kuko bari ahantu mu gishanga inyuma yabo hari inzu, ndetse urabibona ko ari mu gitondo cya kare.

Ni mu gace kitwa Nyabageni, aho habaye igikorwa gihuriza hamwe abaturage ndetse abaturage bacyitabiriye abenshi urabona ko higanjemo abagore kandi bakuze mu myaka ya za makumyabiri n'itanu kugeza kuri mirongo itatu, bitabujije ko harimo n'abagabo bake.

Dukenera amazi mu buzima bwa buri munsi, ibidamu biri muri bimwe mu bintu bidufasha kubika amazi igihe kinini n'igihe azaba atakibonekera, tukabasha kuba twagira ayo twizigama, kugira ngo mu gihe amazi azaba yabuze tuzakoreshe ayo twabitse mudamu; ibi bidamu rero bigera isukuririro ry'amazi ndetse n'aho asohokera naho yinjirira.

Amazi ni isoko yubuzima. Umwana muto usa nkaho ari umuhungu ateze igikombe kuri robine yiri kuzaho amazi meza ndetse afite akamwenyu ku maso, ubona ko yishimye.

Gukaraba intoki ni byiza cyane ku buzima bwa buri munsi bw'umuntu, umwana w'umukobwa wambaye utwenda tw'ibitenge dusa tw'umutuku, usutse ibisuko bisukishije intoki w'imibiri yombi, arakaraba intoki amwenyura ubona ko yishimiye igikorwa ari gukora.

Ababyeyi bane bicaye umwe wambaye itaburiya y'umweru w'inzobe wambaye n'igitambaro mu mutwe, afashe akaboko k'ibumoso kwa mugenzi we, ubwo ari kumupima umuvuduko w'amaraso ndetse hakurya hari ubusitani n'igiti giteyemo.

Itsinda ry'abantu bahagaze ubona ko bari gufata ifoto, harimo abenshi b'abagore bambaye amataburiya yabugenewe yo kwa muganga ndetse n'abagabo inyuma y'abo bambaye imyenda isanzwe. Aba kandi bafite udukarito tw'icyatsi bisa nk'aho turimo imiti.

Itsinda ry'abantu cumi n'umwe, batatu muri bo ari abagabo bahagaze ku murongo basa n'abafata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo handitse amagambo mu bururu ndetse n'umutuku agamije kurwanya gutwita mu bangavu, harimo n'ibishushanyo bijyanye n'iyo nsanganyamatsiko.

Umwana muto muto wambaye agapira gatukura yikoreye ijerekani iriho Unicef nk'umuryango ufasha imfubyi ndetse n'imbabare, ari kumwe n'undi mugabo wambaye umupira w'ubururu, bose bamwenyura baseka ubona ko bishimye.

Abantu bahagaze ari batanu bose bambaye imipira y'ubururu, bane muri bo ni abagore ndetse umwe usigaye ni umugabo, handitseho shora neza ndetse no ku ngofero zabo zose n'umweru. Inyuma yabo hari igipapuro ndetse bose bazamuye igipfunsi cyabo cy'iburyo.

Gukaraba intoki ni imwe mu ndangagaciro ikwiye kuranga Umunyarwanda ndetse n'umuntu wese utuye Isi. Abana b'abakobwa hano, bari gukaraba intoki ubona ko ari ikintu bishimiye, harimo umwe usutse ndetse n'undi uri inyuma uhagaze, bisa nk'aho ategereje ko umwanya we ugera ngo nawe akarabe intoki.

Abari babiri bakenyeye ibitenge by'amabara atandukanye, bose ubona ko bari mu kigero kimwe k'imyaka makumyabiri kugeza kuri makumyabiri nitanu. Umwe ari guha indobo undi bisa nk'aho bamaze kuvomeramo amazi ndetse iyo ndobo irasa n'iremereye. Inyuma hari inzu kandi hirya hari ibiti.

Urugomero rukikijwe n'ubusitani burimo ibiti bigiye bitandukanye, hirya yaho hari amazu y'umweru y'imiturirwa ndetse rufite n'amayesikariye aruganaho, mu nkengero zaho kandi hari amazu y'abaturage.

Abana babiri b'abahungu bari ku ivomero riri kuzana amazi ubona ko ari meza, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye harimo icyatsi ndetse n'umutuku, bari gukaraba intoki ubona ko bishimye ndetse inyuma yabo hari ibyatsi byumye.

Umunsi mpuzamahanga uhariwe ubuzima bwo mu mutwe, witabiriwe ndetse wizihizwa n'abaturage bashyitse, ubwo abantu batandatu bari bicaye imbere bari kugerageza kuganira ku bijyanye n'uyu munsi.

Hari umugabo wicajwe hasi ndetse yambaye amapingu bisa nk'aho yafatiwe mu bikorwa bitemewe, aho abaturage bamushagaye ndetse hari umuntu imbere ye uri kumushyiraho amafoto agaragaza undi mugabo wambaye kositume ndetse n'andi mafoto abiri asa y'umuntu wogosha.

Umugabo wirabura uri mu kigero cy'imyaka ya za makumya n'itanu kugeza kuri mirongo ine, wambaye ishati y'igitenge, akaba ahagaze ku gikuta gisa umweru, hasi hari amapave ahagaze areba hejuru.

Umugore wirabura usa nk'aho ari munini ufite imisatsi, afite mikoro mu ntoki ze asa nk'aho ari gutanga imbwirwaruhame aho yicaranye n'umugabo ufite uruhara wambaye umupira w'umukara uri kureba hirya ndetse hari n'intebe, n'meza n'isakoshi.

Ni muri sale nini, igizwe n'umubare munini w'intebe, ubwo abaturage bicayemo bisa nkaho bari guhugurwa ku ngingo runaka, imbere yabo hari umugore akaba ariwe uri gutanga ikiganiro ndetse hari kwerekanwa amashusho ku buryo bugari.

Itsinda ry'abantu batandatu barimo abagabo babiri, abagore batatu ndetse n'umwana umwe, bicaye hanze ku gatebe bamwe bamwenyura ubona ko baganira, inyuma yabo hari inzu ifite umuryango ufunguye ndetse n'amadirishya abiri, hirya kandi hari urutoki.

Itsinda ry'abantu icyenda barimo abagore batanu ndetse n'abagabo bane, bahagaze ahantu inyuma yaho hari ubusitani ubona ko bari gufata ifoto y'urwibutso nyuma y'igikorwa bavuyemo. Barishimye ku maso ndetse harimo umwe w'umupolisi.

Umubyeyi wambaye umupira w'umweru ubyibushyemo, ari gusobanurira bagenzi be batatu bambaye ibitenge, undi na we wambaye nka we, imbere yabo hateretse amazi ndetse inyuma hari urupapuro rugira ruti: "Twite ku buzima bwo mu mutwe, aho dukorera."

Umubyeyi uri mu kigero k'imyaka makumyabiri n'itanu kugeza kuri mirongo itatu n'Itanu, ari kumwenyurana n'umwana we w'umukobwa, ubwo bose bafite uburoso bw'amenyo basa nk'aho bari koza amenyo yabo, bambaye amasengeri y'umweru ndetse bari mu nzu y'umweru.

Abaganga babiri umwe w'umugore ndetse n'undi mugabo wambaye ga, akaba ari gukora mu kanwa k'umwana wambaye agapfukamunwa k'umutuku, bisa nk'aho ari gusuzuma ngo mu kanwa ke arebe ko nta myanda cyangwa se uburwayi yaba afite.

Inseko nziza iryohera buri wese, bityo rero ukwisuzumisha mu kanwa ndetse no kwipimisha indwara zifata amenyo, ni bimwe mu bikorwa dukwiye gukora dushishikariye, umukobwa afite icyirori ari kwireba, bigaragara ko amaze kuvurwa mu kanwa.

Hari ku munsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu kanwa, ubwo abaturage batonze umurongo bafite udupapuro, bisa nk'aho bose bashishikariye kujya kwisuzumisha ngo barebe ubuzima bwabo bwo mu kanwa bumeze bute. Hari n'abaganga rero bambaye amataburiya bari kubibafashamo kugira ngo bigende neza.

Umusore mwiza uri mu kigero k'imyaka makumyabiri n'ibiri kugeza kuri mirongo itatu, ahagaze yambaye umupira w'umweru ndetse ari kumwenyura, ubona ko afite amenyo y'umweru ndetse n'inseko nziza, inyuma ye harasa umuhondo.

Umuganga wambaye akanoza suku mu mutwe ndetse n'agapfukamunwa, akaba yambaye imyenda y'ubururu na ga z'ubururu, ari gukura umugabo wirabura cyane iryinyo akoresheje ibyuma by'ikoranabuhanga byabugenewe mu gukura amenyo.

Umwana w'inzobe wambaye ishati y'umweru irimo n'utundi tubara ufite agakinisho mu ntoki, ateruwe n'umusaza w'imvi usa imibiri yombi, wagereranyiriza mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu kugeza kuri mirongo itanu.

Umuforomokazi arasutamye, ubwo ari gukora mu kiganza cy'umugabo ukuze uri mu kigero cy'imyaka ya mirongo itandatu n'itanu, kugeza kuri itandatu, bakaba bamwenyura ubona ko basa n'abari kuganira bishimye.

Siporo ni umwe mu myitozo izwi cyangwa se imenyerewe ku bagabo, abagabo nibo bantu bakunze kuba bakunda siporo, ariko ubu ngubu muri iki gihe tugezemo abagore na bo basigaye bakora siporo, aho tubona abagore bitabira siporo akenshi mu mihanda mu gitondo ndetse na nimugoroba bavuye mu kazi abagore bakunze kuba bakora siporo. Turabona abagore bambaye imyenda y'imikara ndetse bishimiye gukora siporo.

Umugabo usa n'usheshe akanguhe, wambaye ikabutura ya kaki, inkweto zifunze ndetse n'umupira w'amaboko maremare, ari kumwenyura, ubwo yari inyuma y'akana gato k'agakobwa gafite imisatsi, gafite n'umupira mu ntoki bisa nk'aho bari gukina umukino wa Basikete.

Itsinda ry'abagore batatu ubona ko bakuzemo babiri bambaye indorerwamo cyangwa se amadarubindi, uwo hagati niwe ufite telefoni akaba ari asa n'uri kuberekamo ndetse babiri muri bo bambaye ingofero.

Umukecuru w'uruhu rw'inzobe ndetse n'imvi, wambaye amarinete n'umupira w'ubururu, ahagaze ari gusekera umusaza wicaye ku buriri, ufite igikombe cy'amazi uri kuyanywa ndetse barishimye, urabona ko nta kibazo bafite ku maso.

Ababyeyi babiri umwe w'imvi usa nk'aho ari nyina w'undi wirabura, wambaye amadarubindi ndetse ufunze imisatsi hejuru, bari kumwe n'akana, bose baramwenyura ubona ko ibyishimo ari byose mu nzu yabo. Barasa nk'abari mu mu gikoni bategura amafunguro.

Umukobwa mutomuto w'imisatsi w'uruhu rw'inzobe, ubona ko asho kuba ari umuganga, afashe akaboko k'umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu kugeza kuri mirongo itandatu, amufatishije icyuma dukoresha duterura mu myitozo ngororamubiri ubona ko ari kumumenyereza.

Umusaza usa naho akuzemo ari gukina ndetse aganira n'umwana yicaye mu kagare, undi yicaye mu ntebe, inyuma yabo hari igiti, itara ndetse urabona ko bishimye ku maso.

Umusaza ugeze mu zabukuru ufite imvi wambaye umupira w'amaboko maremare ari mu kagare, ubwo ari gucungwa cg se gutemberezwa n'umuforomokazi w'inzobe w'imisatsi, wambaye imyenda ya giforomo ufite n'ibikoresho bya kiganga.

Umugabo n'umugore bigaragara ko bakuze bageze mu myaka y'izabukuru, bicaye ku ntebe aho bari kureba urupapuro bafite akamwenyu ku maso, ubona ko ari abantu bishimye mu buzima.

Abantu icyenda harimo abagore batanu, abana batatu ndetse n'umuzungu, umwe bicaye mu byatsi aho bamwe bari ku ntebe abandi bakaba bari hasi, baganira bamwenyura ubona ko bishimye, umwe muri bo ari kuboha agatebo.

Umuforomokazi w'umuzungu ufite imisatsi y'umukara, wambaye ishati y'akazi y'ubururu, ari kugorora ndetse anerekera umusaza w'imyaka igereranyirizwa nko muri mirongo itandatu n'itanu, wambaye amarinete, ufite imvi, amwereka uburyo yagorora ingingo ze akoresheje agatambaro k'umuhondo.

Umusaza n'umukecuru bose ubona ko bari mu kigero kingana cy'imyaka mirongo itandatu kugeza kuri antandatu n'itanu, bari gukina imikino y'ubwenge bose bamwenyura ubona ko bishimye ndetse banezerewe.

Umusaza uri mu kigero k'imyaka mirongo itandatu n'itanu kuzamura, afashe ku rutugu umukecuru usa nkaho ari muto kuri we, wambaye agatambaro k'umutuku ndetse n'ikote, baramwenyura ubona ko basa n'abashakanye kandi bishimiranye.

Umusaza wambaye ingofero y'umukara, amarinete y'umukara, ufite imvi witeye umwitero w'umweru ndetse n'ishati y'ubururu ari kumwe na mugenzi we usa nk'aho ari muto kuri we, wambaye ingofero y'ikigina, ishati y'umweru ndetse n'umwitero w'umukara, we ari gukoma amashyi.

Umuganga w'umukobwa usutse ibisuko biryamye ku mutwe, ari kumwenyura, ubwo yunamye afashe ku wundi muntu w'umubyeyi nawe wishimye ku maso, ndetse wambaye impeta, ubona ko banezerewe n'ubuzima.

Umukecuru wirabura w'imvi witeye akitero k'umweru karimo andi mabara, akaba yambaye umupira w'ubururu n'agasakoshi, akaba ari kumwe n'umusaza witeye umwitero urimo umweru n'umukara wambaye ishati...

Inama yabaye mu w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane igamije kuganira ku buzima ndetse n'imibereho myiza, yari iyobowe n'umutegarugori ufite indangururamajwi, hirya ye kandi hari abantu bane harimo abagabo batatu bambaye amakote ndetse n'undi mugore ubyibushye wambaye ikanzu.

Twirinde indwara y'Ubushita, ni amagambo yanditse mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru akikijwe n'ahantu hasa ubururu, higanjemo amafoto y'uruhu rwangiritse bitewe n'indwara y'ubushita bw'inkende.

Itariki cumi n'imwe kugeza kuri cumi na zirindwi z'ukwezi k'ugushyingo umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane habayeho icyumweru cyo kwizihiza kurwanya diyabete, ni amagambo yandikishijwe mu bururu n'umukara ndetse agaragazwa n'ibimenyetso bigiye bitandukanye.

Ku wa cumi n nicyenda kugeza kuri makumyabiri n'enye mu bihumbi bibiri na makumyabiri nine habayeho umunsi mpuzamahanga w'ubukangurambaga ku bijyanye n'imikoreshereze y'imiti aho umuyobozi ndetse n'inzobere muri ibi dr noel gahamanyi yavuze ko atari byiza gukoresha ibinini igihe wumva afite ibimenyetso by'ibicurane.

Itsinda ry'abaganga biganjemo abagore bambaye imyenda y'umweru ndetse n'iy'ubururu, bambaye utuntu mu ijosi tugaragaza imirimo bakora ndetse bafite intoki z'abaturage bisa nkaho bari kubapima amaraso cyangwa se kubakingira indwara runaka.

Igikorwa cyo gukingira umuriro w'umuhondo nk'indwara yugarije afurika ndetse n'indi mibumbe, cyegerejwe inyuma kugeza kuri tariki ya cumi na kane z'ukwa kane, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane aya ni amakuru meza.

Hari mu gitondo izuba riri kurasira, aba baturage harimo umubyeyi wari uteruye umwana we ndetse akikijwe n'abagabo bageze muri bane na bo bambaye amashati y'umweru ubona ko bari kureba ibijya mbere aho ngaho.

Abantu batanu bose baciye bugufi, umwe muri bo arahagaze, babiri bambaye amataburiya y'umweru ya kiganga, abandi batatu bakaba bambaye amataburiya y'abavuzi b'ibanze, hasi hari umuntu bigaragara ko arembye, akaba ari guhabwa ubufasha bwihuse.

Icyumba kinini kigizwe n'amakamera ndetse n'amatara menshi, gifite imiryango cyangwa se utwumba tundi dutoya tugizwe n'imiryango y'ibirahure, ndetse amarangi yose asa umweru yo muri iyi nyubako.

Umugabo w'umuganga wambaye agakoresho gapima abarwayi ndetse n'amarinet, arirabura afite umusatsi ndetse n'ikayi mu ntoki ubwo ari kumwenyura, hirya ye hari umugore cyangwa se umukobwa wambaye ikanzu y'ubururu ubona ko asa n'utameze neza.

Imiryango itatu yerekeza mu byumba bigiye bitandukanye, hasi hari amakaro ahandi hari amavase y'indabo, hejuru amatara ari kwaka ndetse hari n'ibimenyetso biyobora abagenzi mu gihe ari ubwa mbere bageze muri iyo nyubako.

Ikigo Nderabuzima cya Tabagwe ni ikigo giherereye mu Karere ka Nyagatare, kikaba kizwiho gutanga serivisi zigiye zitandukanye harimo nko kubyaza, gutera inshinge abana z'inkingo ndetse n'izindi serivisi z'ubuvuzi wakenera.

Hari ivuriro rya kijyambere rifite ibitanda bitatu mu cyumba kimwe, aho buri gitanda kigiye gifite televiziyo yacyo ndetse n'akantu nakwita akabati waterekaho ibintu, imiti ndetse n'ibiryo by'umurwayi. Kandi aha hantu hakikijwe n'ibirahure ku buryo wareberamo ibiri kubera mu kindi cyumba.

Umuganga wambaye imyenda y'ubururu ndetse ufite n'ibikoresho byabugenewe mu kuvura, yicaranye n'umukecuru usa nkaho akuzemo, wambaye nawe ikanzu y'ubururu ndetse n'agatambaro k'umukara, bari hanze ubwo baganira bamwenyura.

Ni ngombwa ko twisuzumisha tukamenya uko mu kanwa kacu hameze. Hari intebe yabugeneweho abantu bicaraho kugira ngo muganga abashe kubarebera mu kanwa kabo akoresheje itara ryabugenewe rimurika rikabasha kumwereka ibimeze neza ndetse n'ibitameze neza mu kanwa kacu. Si ibyo gusa kandi hari televiziyo yerekana ibigiye kure bijyanye no mu kanwa.

Mu ivuriro harimo icyumba cy'ububagiro, kirimo ibitanda by'umukara, intebe z'imikara, amatara y'umweru, ndetse na televiziyo zerekana uko umurwayi, igikorwa cyo kubaga kiri kugenda, hasi harasa ubururu, ndetse inkuta zirasa umwera.

Igikorwa cyo kurahira mu murenge wa Gahini kiyobowe n'abantu batatu bicaye ku meza y'imbere ariho igitambaro cy'icyatsi, imbere yabo hariho amazi ndetse n'abagabo babiri harimo n'umugore umwe. Inyuma kandi hari abitabiriye icyo gikorwa nabo bafite mudasobwa imbere yabo n'amakayi hari n'uri kubafotora.

Ababyeyi babiri, umwe wambaye amadarubindi, ufite imisatsi miremire, wambaye imyenda y'ababyaza cyangwa se abaforomo, ari kumwe n'undi uteruye umwana, inyuma yabo hari idirishya ndetse n'irido.

Abantu batanu harimo bane b'abagore b'abirabura batatu ndetse n'umwe utari umwirabura ndetse n'umugabo umwe bahagaze imbere y'inyubako bari kumwenyura, ubwo bari gufata ifoto y'urwibutso.

Mediyasoro ni farumasi iherereye i Remera, iri mu nyubako nziza cyane igizwe n'imiryango isa umukara, iyo farumasi kandi ifite ibiti imbere yayo biteye mu mavase bisa neza, imbere kandi hari aho waparika ikinyabiziga cyawe hagezweho.

Ivuriro rya kijyambere rifite ibitanda bitatu ndetse bigiye bifite buri rido ryacyo risa umukara, ku ruhande hari ameza yo guterekaho ibiribwa cyangwa se imiti y'umurwayi ndetse hari n'agatereviziyo gato kerekana uko ubuzima bw'umurwayi bumeze.

Imodoka y'umukara iparitse imbere y'ibiro bishinzwe gutanga ndetse no kwakira amaraso, hakaba hakikijwe n'ibiti ndetse n'uruzitiro rusa umukara, hasi hari kaburimbo.

Ikigo kigizwe n'inyubako eshanu, eshatu muri zo zifite amabati y'ubururu, izindi ebyiri zifite amabati y'umutuku. Gifite ubusitani bwagutse burimo ibiti bitukura, ndetse bafite na puberi imenyerewe nk'aho duta imyanda cyangwa se ingarani. Abakozi baho bari kugerageza gukoramo amasuku mu busitani.

Icyumba cy'uruganiriro kigizwe n'ibintu bitandukanye, harimo ibiti biteye neza ndetse amabengeza, harimo intebe enye zifite imisego isa ibara twita mu ndimi z'amahanga giri, harimo ameza atatu ndetse hari igitabo kiri ku meza.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri nko guterura ibyuma, siporo ndetse no kwiruka tuzi mu ndimi z'amahanga nka gym, ifite ibirahure byo kwireberamo mu gihe ukora siporo zawe, hasi harasa ikigina, ifite amatara ndetse n'imiryango y'ibirahuri.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho, iri kumuhanda mwiza, ndetse imbere yaho hari ubusitani, yo igizwe n'amabara y'ubururu bwijimye, umweru ndetse n'ibara ry'ivu, urabona ko ari inyubako yubatswe n'umuntu ufite amafaranga ahagije.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'umukara, ari gutunga urutoki ku rupapuro ruriho ibijyanye na Malariya ndetse no kuyirwanya, aho hari n'abafatanyabikorwa. Muri bagenzi be harimo uwambaye umutuku, imbere yateretse amazi na mudasobwa ku meza y'umutuku n'intebe z'umukara n'ikigina.

Ni mu ivuriro cyangwa se ibyo dukunze kwita ibitaro, bigizwe n'inzitiramibu nyinshi zisa ubururu n'ibitanda ndetse n'amadirishya, amabara ari muri ino nzu y'irange ni umweru ndetse umugabo muto muto ari gufasha abaturage abazingira inzitiramubu bisa nk'aho bwakeye.

Umusore usa nkaho yateruye cyangwa se yakoze imyitozo ngororamubiri, wambaye isenge y'icyatsi, ari kwimenaho amazi kandi hari n'akazuba bigaragara ko ari mu gitondo cy'umuseso, ubwo yari arangije gukora siporo.

Umugore w'imibiri yombi utabyibushye cyangwa se ngo ananuke, wambaye imyenda y'umutuku wijimye ndetse n'amasogisi y'umweru, ari kugorora ingingo ubwo hasi ye hari itapi yabugenewe yo gukoreraho siporo. Inyuma ye hari intebe, idirishya ndetse n'akabati.

Umukobwa wambaye imyenda y'umukara, uryamye ku gatapi kabugeneweho ko gukoreraho imyitozo ngororamubiri, ari ahantu h'umweru ndetse hari n'idirishya. Akaba ari kugorora umubiri wiwe ndetse n'ingingo.

Abana icumi bambaye imyenda y'imyeru n'umukara ikoreshwa mu mukino w'amaboko twita basiketi mu ndimi z'amahanga, bari ku mirongo ubwo basa n'abari kubyina bishimye ndetse inyuma hari abaturage benshi cyane babashagaye baje kureba ibyo barimo.

Umusore ushyitse ubona ko yakoze imyitozo ngororamubiri ihagije, yambaye ipantaro y'umukara isengeri y'ubururu bwijimye ndetse n'inkweto z'umweru za siporo, ubwo ari kugorora amaguru ye ndetse n'ibindi bice by'umubiri.

Umusore ushyitse ufite umubiri ukomeye, bisa nkaho arangije imyitozo ngororamubiri, akaba ari kwimenaho amazi ayandi ayanywa; bigaragara ko asa n'uruhutse nyuma yo gukora siporo nyinshi.

Intoki z'umuntu wirabura ziriho impeta zifashe barafu, ifatiwe ku kaboko mu ngingo bigaragara nkaho ari kugerageza guhosha ububabare bwamujeho, nyuma y'impanuka runaka.

Umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi ndetse n'umupira w'icyatsi kijimye, yambaye ishene mu ijosi ndetse akaguru ke karazamuye gateretse ku gitanda cyo kwa muganga, ubwo umuganga w'umugore uri kumupfuka akaguru bisa nkaho yagize ikibazo mu kirenge.

Kunywa amazi bishobora kukurinda zimwe mu ndwara utararwara n'izindi wamaze kurwara, harimo nk'umutwe, w'umwuma ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Umugabo w'ubwanwa buke w'imibiri yombi afite icupa ricagase amazi, bigaragara ko arigerereye arinywa.

Abagabo batatu, umwe wuriye ku rwego hejuru hari icyapa cyerekana ko ari ivuriro rya Faisal, barasa n'abari gukora ibikorwa by'ubwubatsi, birimo nko gusana ndetse no gutunganya aho hantu.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza ndetse bikaba bibi ku rundi ruhande, bishobora guteza ibibazo birimo gufatwa n'imbwa, kuvunika mu ngingo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, umugabo w'umusore ubona ko yakoze imyitozo ihagije aricaye mu byatsi asa n'ufite ikibazo mu kaguru.

Barafu idufasha kwirinda kubyimbirwa mu gihe wagize impanuka ndetse no kugabanya ububabare bukabije. Umuntu wambaye ikabutura y'umukara wirabura, afatiye agashashi ka barafu ku ivi ryiwe ry'ibumoso kugira ngo yirinde kubabara cyane.

Mu gukora siporo, dukenera ibintu byinshi. Ariko nta wari uzi ko dushobora gukenera agasanduku k'imiti, cyangwa se igikapu cy'imiti muri siporo. Hagomba kuba harimo ibijyanye n'ibipfuko, ibinini mu gihe umuntu agize ikibazo, ndetse n'imiti ivura ibisebe, n'amasizo, n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umusore wambaye ikabutura, isaha ndetse n'inkweto za siporo, akaba ari kugororera umubiri ahantu hameze nko muri gym, dusanzwe tumenyereye ko tujya kugororera umubiri ndetse no kubaka umubiri ari byo mwe bita guterura.

Umwari wambaye imyenda y'umukara ndetse n'inkweto za siporo z'umweru, aricaye ubwo arambuye amaboko ye yombi ku kaguru ke k'iburyo, ndetse yambaye akantu ku kaboko ubona ko yazindukiye mu myitozo.

Udutambaro dukoze mu mabara menshi agiye atandukanye, harimo nk'umutuku, umukara ndetse n'ubururu, dushobora kwifashishwa mu kuzengurutsa ku ngingo y'akaboko inshuro nyinshi, aho agatambaro k'umutuku kifashishijwe muri iki gikorwa.

Umusore wambaye ikabutura ya kacyi n'umupira w'umweru urimo amabara y'umutuku, yicaye ku meza hejuru ubwo ari guhabwa ubuvuzi cyangwa se gupfukwa amaguru yombi, bigaragara ko yavunitse. Umugabo uri kumupfuka yambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara kandi hirya hari undi muntu w'inzobe wicaye, wambaye amasogisi.

Imbuto zigiye zitandukanye zirimo amaronji, imineke n'izindi tuzi mu ndimi z'amahanga nka pome, kokombure, puwavuro ndetse na shufureri ziri ahantu h'umweru hamwe n'ibyuma bikoreshwa mu guterura.

Umugabo bigaragara ko yakoze imyitozo ngororamubiri ihagije, aricaye afite n'igikapu iruhande rwe, akaba ari kunywa amazi bigaragara nk'aho yari arangije gukora indi myitozo ngororamubiri.

Umugore cyangwa se umutegarugori usutse ibisuko bisa umukara ndetse amaboko ye ari hejuru, ubona ko ari kunanura ingingo ze z'umubiri mu myitozo ngororamubiri.

Umusore munini w'ibigango wambaye isengeri yi'cyatsi, ufite ubwanwa ndetse n'imisatsi mikeya wirabura, ahagaze mu zuba rya mu gitondo ubona ko avuye gukora imyitozo ngororamubiri ndetse akaba ari kunywa amazi aruhuka.

Umwari ukiri mutoya, wambaye ekuteri z'umweru, umupira utukura cyangwa se w'ibara ry'iroza mu ndimi z'amahanga, ufite imisatsi y'umukara, ari kunywera amazi mu icupa, rifite umufuniko w'ubururu.

Viateur Nshimyumuremyi, ni umwe mu nzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'ingingo ndetse n'imikaya ndetse akaba akora n'ibyo twita mu ndimi z'amahanga massage. Uyu Viateur rero wamusanga ku mbuga nkoranyambaga ze zigiye zitandukanye nka facebook, whatsapp you tube ndetse n'izindi.

Amazi ni kimwe mu bintu by'ingirakamaro cyane mu buzima bwacu, kuko hari indwara nyinshi turwara kubera kuyabura cyangwa se hakaba ari n'izindi aturinda, ikiganza kirabura gifashe ijage isi ibonerana irimo amazi kiri gusuka mu kirahure.

Umwari cyangwa umutegarugori w'uruhu rwera ubyibushye ufite utwuma dufasha abarwayi b'amaguru kugenda, ari mu kibuga cy'umupira ahagararanye n'umugabo wambaye umupira w'ubururu ndetse na we ufite uruhu rwera, ufite umupira w'amaguru mu ntoki, ndetse bari kuganira ubona ko biteguye gukora imyitozo ngororamubiri.

Agakarito gakomeye kari mu bwoko bwa parasitiki, gafite ububiko buhagije ndetse kagabanyijemo ibice bigera muri bine ubwo igice kimwe kirimo imiti twakita nk'udutibe, icya kabiri kikaba kirimo ibipfuko ndetse n'icya gatatu kiba kirimo amavuta n'ibinini. Ako kantu gasa icyatsi, ndetse hanze yaho harimo n'imakasi n'utundi dukoresho.

Umuravumba ni ikimera cy'icyatsi gifite impumuro yacyo yihariye, gikoreshwa mu kuvura indwara nyinshi zishoboka harimo imitsi, umugongo, ibicurane, umutwe, inkorora n'izindi utatekereza.

Ibinini byitwa forever focus, ni bininini bifasha ubwonko kugira icyo nakita nk'umurongo ndetse no kuwurinda guhuzagurika. ibi binini bifasha ba bantu bagira indwara yo kuba batatekereza cyangwa se ngo bamare umwanya ahantu hamwe honyine. Ibi binini biboneka mu gacupa k'umweruru ndetse n'amabara ya orange mu ndimi z'amahanga.

Icyatsi cy'ubwoko bumwe, kiri mu gacupa kabonerana, ndetse no mu kavaze, hari uducupa dutatu kandi turimo ifu y'umweru, umuhini n'agasekuru kawo birimo umuti, ndetse n'ibyatsi biri ku meza y'imbaho.

Ibinini bisa icyatsi cyerurutse biteretse ku kibabi gisa nk'aho ari ikibabi cy'umuravumba, hakaba biri ahantu h'umweru bigaragaza ko ibi binini bishobora kuba bikorwa mu byatsi by'umuravumba.

Amavuta y'uruhu agiye atandukanye harimo abiri ahuriye ku ibara ry'icyatsi, abiri ahuriye ku ibara ry'ubururu bwijimye, abiriye ahuriye ku ibara dukunze kwita giri mu ndimi z'amahanga ndetse n'irindi cupa rimwe ry'ubururu.

Hari amoko agera muri cumi n'atanu y'ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo ibinyampeke ndetse ibinyamafufu hamwe n'imboga, ibi byose bidufasha mu buzima bwa buri munsi, biturinda indwara ndetse bidufasha n'ahandi hantu tugenda tubikenera.

Ni ipaki igizwe n'imiti ifasha abagabo mu gutera akabariro neza harimo, nk'iyitwa vitorize, alovelagewo ndetse n'indi ifasha abagabo mu kugira ubushake mu gikorwa nyamukuru.

Umubyeyi ufite umusatsi mwinshi usokoje neza wambaye imyenda y'umweru ufite isakoshi y'kigina, ari gukora mu bimera harimo nk'urutoki ndetse n'ibindi bijya gusa n'umuravumba ubona ko abyishimiye.

Ikinyobwa kiri mu gacupa k'umutuku karimo andi mabara nk'umutuku wijimye, umweru, ndetse n'ibishushanyo bishushanyije umukara, cyanditseho ubuziraherezo, kandi biragaragara ko ari ikinyobwa kimwe mu bitanga imbaraga.

Umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu kugeza kuri mango itatu ni'tanu wambaye umupira w'umweru arasa nkaho ari gukora mu bimera nk'usoroma ndetse anareba uko ibyo bimera bihagaze aha ni mu ishyamba rifite ibiti bigiye bitandukanye.

Umuganga uri gupima ingano y'imiti, ndetse imbere ye hakaba hateretse andi macupa y'indi miti itandukanye, yicaye ku ntebe aho ari mu biro cyangwa se ivuriro.

Ibiti ibige bitandukanye harimo ibyera bihagaze bimwe bimara imyaka myinshi ndetse na bya bindi bikurira hasi bijya kumera nk'ibishyimbo, ikirere kirasa n'ikiri butange imvura muri make ibicu ni byinshi.